Umuntu wunamye wambaye igisarubeti kirimo ibara ry'ubururu, cyanditseho na magambo ari mu ibara ry'umweru, uyu muntu kandi yambaye ingofero iri mw'ibara ry'umuhondo.

Abana b'abanyeshuri bari muri laboratwari . Aba bana bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru. Bari gukora utuntu muri laboratwari. Inyuma yabo ku gikuta hariho periyodiki tebo.

Abantu benshi bafashe ibitiyo n'ibidumoro byo gutwaramo beto, bari mu muganda. Uwo muganda bariho uri kubaka inzu iri inyuma yabo ya etaje, iriho abafundi ndetse n'abayede benshi.

Abana b'abahungu bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi bari mu nzu yubakishije ibiti ishakaje amabati gusa. Mu bigaragara bari kubaza intebe ndetse n'ameza, mbese bari kubaza ibikoresho byo mu rugo.

Ishuri ririmo ibintu byinshi bitandukanye kandi by'amabara menshi, harimo ameza, intebe, utubati ndetse n'ibishushanyo byinshi bitandukanye, harimo kandi n'utundi tuntu tw'umweru turambitse ku meza, harimo kandi n'intebe y'indi ndende.

Abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bicaye bagiye gukora ikizamini .Aba banyeshuri bambaye imyenda isa :amashati y'umweru ndetse hasi bambaye amajipo, abandi, amapantaro ya kaki ,hariho kandi n'abambaye imipira y'imbeho irimo ibara ry'icyatsi.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bicaye mu ishuri bari kwiga, aba bana bambaye amashati asa, afite ibara ry'umweru, Aba bana kandi imbere yabo ku meza hateretseho imashini cyangwa compiyuta buri wese afite iye, imbere hariho umwarimu w'umugabo uri kubigisha.

Abantu batatu harimo abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe, bambaye imyenda y'umweru n'utugofero twumweru, abo bantu bigaragara ko bari mu gikoni bari gutegura ibyo kurya.

Abana batatu b’abahungu ndetse n'umukobwa，bambaye ibisarubeti，biri mub ibara ry'ubururu. Abana bari mu nzu，basa nk’aho bari kubaza intebe，cyangwa se ameza， mbese bakora ibikoresho byose bikoze mu biti.

Abana benshi bari mu ishuri bari kwiga kubaza . Abana bose bambaye ibisabeti buri wese afite ameza amuri imbere ,ndetse n'ibikoresho ari gukoresha.

Abana b'abanyeshuri harimo abahungu, ndetse n'abakobwa. Bambaye hasi amajipo cyangwa amapantaro y'umukara, hejuru amashati y'umweru. Ikindi, bambaye n'amataburiya asa n'umweru, ndetse na karuvati.

Abana batandatu b'abakobwa, aba bana bambaye imyenda ifite amabara abiri, harimo amajipo afite ibara ry'ubururu, ndetse n'amashati afite ibara ry'umweru, aba bana b'abakobwa bari gusuka undi mugenzi wabo, impande yabo hariho inzu.

Abana b’abakobwa, b’abanyeshuri, aba bana bambaye amashati afite ibara ry’ubururu. Bafashe utuntu tumeze nk’udukinisho mu ntoki. Umwe muri aba bana yambaye isaha ku kuboko. Inyuma yabo, bahagaze hari abandi bana bicaye, nabo bambaye nkabo. Inyuma yabo, hariho amashuri. Inyuma y’amashuri, hariho ibiti.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bari kwigira hamwe mu matsinda, abo bana bambaye amashati y'umweru, bafashe amakaramu mu ntoki, kandi harimo n'uwambaye isaha ku kuboko.

Abana b'abanyeshuri bari muri laboratwari ,aba bana bambaye imyenda isa n'umweru hasi ndetse no hejuru. Kuri buri meza hariho ibikoresho byifashishwa bari gupima ibintu runaka muri laboratwari.

Abana b'abahungu ndetse n'abakobwa batari bake bambaye imyenda isa, impande ya bo hariho abagabo babiri, bisa nk'aho ari abarimu ba bo, inyuma ya bo hariho igishushanyo gikoze mu migano gisobanura ingagi, inyuma ya bo kandi hariho ibiti birebire.

Abana benshi b'abakobwa bicaye bari kwiga kudoda, aba bakobwa n'abagore bambaye imyenda isa bari kudoda kandi imyenda nanone ifite amabara y'ubururu. Bicaye mu ntebe zifite amabara atandukanye harimo iy'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, harimo umuntu uhagaze uri kubigisha.